Umwana w'umuhungu urimo arareba muri kamera, arimo arakaraba intoki, imbere ye hari indobo ifite umupfundikizo w'ubururu, inyuma ye hari ibyatsi.

Umwana w'umuhungu mutoya afashe uducupa tubiri turimo amazi; yambaye impuzankano, hejuru ishati ya kacyi, hasi ikabutura ifite ibara ry'ubururu; inyuma ye hari amazi menshi ndetse hakurya hari n'abandi bana.

Umukobwa wunamye wambaye inkweto z'ibara ry'umuhondo, arimo aravoma amazi mu muferege, iruhande rw'umuferege hari umwana mutoya nawe uhicaye.

Abana bakiri batoya barimo baraseka bishimye, harimo umwe w'igikara cyane, barakaraba intoki, hari umupapa urimo arabasukira amazi ku biganza byabo ngo bakarabe.

Abantu benshi batandukanye, abana, abasore, abagabo ndetse n'abagore barahagaze barimo barashungera umudamu waguye hasi biragaragara ko ari uburyo bwo gukumira icyorezo cya ebola.

Abana bakiri bato b'abakobwa ndetse n'abahungu, bari kuri robine barimo barakaraba mu ntoki, ni byiza isuku, hirya y'abo bana hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Umuganga arimo aratera urukingo umwana mutoya ukiri uruhinja, ufashwe n'umubyeyi we witeze igitenge mu mutwe, ku ruhande rwe hakaba hari undi muganga.

Ikimodoka kinini abenshi bazi ku izina rya rukururana gifite amapine menshi; kiriho igishushanyo kiri mu ruziga; kigaragaza ko ari ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku mirire y'abana.

Abantu bicaye mu ntebe z'ibyubahiro, ni abagabo bakuze baje mu nama hari ibyo baje kwigaho bibafitiye akamaro.

Abantu benshi bamwe barahagaze abandi baricaye, bambaye n’ama badge, barimo barifotoza, inyuma yabo har’inzu ifite irangi ry’umweru.

Aha handitse amagambo atandukanye cyane cyane irigaragara ni irivuga ngo umunsi mpuzamahanga muri afurika wo kwita ku buzima bibiri na makumyabiri na kane.

Abantu benshi, bicaye ku ntebe zifite amabara y'imikara, abagabo ndetse n'abagore. Harimo umwe uhagaze wambaye umuhondo, bigaragara ko hari ibyo ari gusobanuza.

Iki gishushanyo kiririmo uruziga ku mpande hakaba hariho amababi, hagati mu ruziga harimo abantu babiri umwana ndetse na nyina, kikaba ari ikirangantego cy'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku ubuzima.

Ishusho igaragaza umudamu w'inzobe bashyize ifoto ye mu ikadire, uwo mugore ni inzobe. bikaba bigaragara ko ari umukozi w'ikigo gitanga ingufu z'amashanyarazi zikomoka ku zuba.

Umuforomokazi ufite imisatsi miremire yaboboye inyuma, wambaye n'impuzankano iri mu ibara ry'ubururu bwijimye, arimo araganiriza umurwayi w'umudamu waje amugana.

Igifuniko cy'igitabo kigaragaza ubushakashatsi bwakozwe ku byerekeye no guha amahoro ubwonko, hariho abantu baba mama, abagabo ndetse n'abana.

Inzu yubatse neza mu buryo bugezweho impande zayo hagiye hateye ibiti harimo n'ibiti by'imikindo, iyi nzu ikoreramo abihaye Imana bashinzwe gukwirakwiza ubutumwa bwiza.

Icyapa kiriho amagambo menshi atandukanye, hakaba hari n'ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima mu Rwanda, hari kandi n'ikindi gishinzwe kwita ku buzima bw'abana ku isi.

Umukobwa bigaragara ko akiri muto, yambaye ikanzu yubururu, imbere ye hari undi uhicaye, afite udukinisho tw'abana, mu ntoki ze, kamwe ni ishusho y'intare

Abantu benshi bicaye, babiri babiri barebana, bakaba bicaye ku ntebe zikozwe muri purasitike z'imyeru, hirya hari ikimodoka cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC.

Umugabo we wambaye ishati idoze mu gitenge, akaba arimo arasuhuzanya n'undi wambaye imyenda yacikaguritse, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Aba baganga babiri barimo barareba mu kanwa k'umwana kugira ngo bamenye niba ntakibazo afite maze bamwiteho bamuvure.

Buri bitaro mu rwanda bigira icyumba cy'izumira. aha hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa akaba arimo arasuzuma amaraso.

Umugore ubona ko akuze, afite imvi mu mutwe arirabura, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza.

Umugabo urimo arakora imyitozo ngororamubiri ari gufashwa n'umugore w'umuzungu, uwo mugabo afashe ku byuma bibiri biragaragara ko agiye kugenda abyongaho.

Ababyeyi b'abamama ubona ko bariye neza babyibushye, bicaye imbere y'ibikarito birimo imbuto z'inyanya, inyuma yabo hariho amaronji.

Abagabo babiri, harimo uw'umusaza wambaye ipantaro y'umukara n'ishati, undi yambaye umupira n'ishati. Umusaza umwe yambaye ingofero, inyuma barimo baragenda mu muhanda ugizwe n'amabuye, inyuma hari ibiti, ibyatsi, indabo, n'amapoto.

Umumama ufite imvi mu mutwe wambaye n'amaherena, ari kumwe n'umwana we ukiri muto ufite imisatsi miremire, barimo bateruza akaboko kamwe aliteri.

Kwirinda indwara z'ibyorezo nibyiza, iyi shusho iragaragaza amabwiriza ndetse n'uburyo umuntu yakwirinda ndetse hakanavurwa icyorezo cya Sida mu Rwanda.

Ukuboko bigaragara ko hariho ibiheri, iyi ishobora kuba ari indwara y'icyorezo bakunze kwita indwara y'ubushita.

Abadamu bicaye bategereje ko babaha serivisi, bamwe bambaye ibitenge, abandi biteze ibitambaro mu mutwe bifite amabara atandukanye.

Ishusho igaragaza amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, ndetse hejuru hari n'izindi nyuguti ebyiri ziri mu ibara ry'umweru, hagati yazo harimo ibiganza bishushanyije birimo birasuhuzanya.

Umubyeyi w'umudamu barimo baramutera urushinge yambaye agapfukamunwa bigaragara ko arimo arababara ari gushinyiriza, hari uwo muganga urimo uramutera urushinge.

Ishusho igaragaza abantu babiri bafashe ibintu bimwe byicyatsi ibindi by'ubururu hari kandi kuruhande icyapa kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Icyapa gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, avuga ngo ikigo nderabuzima cya Matyazo.

Icyumba cyo kwa muganga cyakira abarwayi barembye cyane, bagahabwa ibitaro ndetse n'ibitanda byo kuryamaho, bigatuma abaganga babakurikirana ku buryo bworoshye.

Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa tw'umweru ndetse n'amataburiya y'umweru. Barimo barareba mu mashini, bigaragara ko hari ibyo bari gusuzuma.

Icyumba cyiza cyane, hejuru kirimo parafo nziza ifite utubara tugiye dutandukanye, hasi hari ibyatsi, ndetse n'intebe nziza zo kwicaraho zifite n'imifariso.

Inzu itangirwamo serivisi, harimo abantu baje kuzihabwa. Hari umwe wicaye wambaye ingofero y'umukara n'undi uhagaze, arimo araganira n'abarimo imbere kugira ngo bamuhe serivisi ashaka.

Ku kigo nderabuzima bakira abantu bafite ibibazo bitandukanye. Iki ni ikigo nderabuzima cya Rwerere kikaba giherereye mu karere ka Burera kikaba cyakira abarwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kikaba kirimo igitanda kiryamishwaho abarwayi igihe baje barembye kugira ngo babiteho begereye abaganga, hariho amashuka y'umweru.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho ifite amarangi y'umweru ndetse n'ibirahure by'umukara bita fime, imbere yayo hari igiti cyitwa umukindo.

Icyapa kigaragaza aho abapolisi bakorera, ariko akaba ari ishami rya Huye hari inzu isakaje amabati y'ubururu.

Umuganga w'umugabo arimo aravura umugabo uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, hirya hari abandi bantu harimo umuganga n'umurwayi.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bwa etaje, isakaje amabati y'ubururu. Iyi nzu imbere yayo hariho idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda; hari n'icyapa kigaragaza ko ari ibitaro bya Kanyinya.

Inzu nziza cyane isakajwe amabati atukura, yubatse mu buryo bwa etaje hari n'igiti gishinzeho ibendera ry'u Rwanda, haparitse n'imodoka hanze.

Umuganga wunamye, arimo arumva umurwayi uko ameze kugira ngo abone indwara amuvura, yambaye itaburiya y'ubururu ifite akarongo k'iroza ku kuboko.

Umugabo urimo araseka wafunze igipfunsi bigaragara ko aryamye mu bitaro ku gitanda cyo kwa muganga hirya ku gikuta hari ahantu hacometse insinga nyinshi harimo ndetse na serumu bamuteye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, hakaba ari aho bakirira, abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umuyango urafunguye ndetse ifite n'ibirahure by'umweru.

Iri ni igare ryifashishwa mu gutwara abantu babana n'ubumuga kwa muganga cyangwa se ahandi hantu hagiye hatandukanye rifite amabara y'umukara ndetse harimo n'andi asa umweru.

Umuhungu wambaye imyenda ya siporo ifite ibara ry'umukara, akaba yahanitse akaguru ku ruzitiro ruri ahantu ari gukorera siporo, gukora siporo ni byiza.

Umukobwa udafite umusatsi, biragaragara ko ari mu gikorwa cya siporo, aho yazamuye amaboko, yambaye isaha ndetse na ekuteri mu matwi, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri gafite ibara ry'umuhondo werurutse.

Agakoresho gakoreshwa kwa muganga mu bitaro, kari mu ibara ry'umuhondo, kaziritsemo utugozi tw'umweru, bagakoresha baterura abarwayi babajyana ku gitanda.

Ibishushanyo by'ibipupe by'amaguru y'abantu hari kimwe cyambaye inkweto ndetse ibindi babifatishije ibyuma kugira bitagwa ibi bikoreshwa mu buvuzi.

Ishusho y'umuntu urimo arakora imyitozo ngororamubiri yo kwirukanka, hari amagambo yanditse avuga ko uru ari urubuga rw'umukino wo kwirukanka mu Rwanda.

Umupapa wambaye imyenda y'umweru, afashe ku biti bifite amashami menshi; iri ni ishyamba rya kimeza.

Igikoresho cy'umweru gifite umusekuzo w'umweru hakaba harimo imiti y'ibibabi bagiye gusekura kugira ngo bayikoremo imiti igezweho ijyanye n'iterambere bakoresha mu bitaro.

Ishusho iri mu ibara ry'umuhondo ariko wijimye hakaba hari amagambo nayo yanditse muri iryo bara avuga ngo Akagera Medesine.

Iki ni ikimera cyitwa umuravumba, ukaba uvura indwara nyinshi zitandukanye harimo nk'ibicurane ndetse wifashishwa mu bindi nko kuwukoramo imiti ya kijyambere.

Iri ni iduka ricuruza ibinyobwa bitandukanye yaba inzoga za bralirwa ndetse n'imitobe imyobwa n'abantu batanywa izisembuye

Burya ibyatsi bitandukanye nibyo bivamo imiti myinshi dukoresha mu bitaro, nka bino byatsi nibyo batunganya bakazayikoramo.